Icyapa cyamamaza bizinesi cyangwa kampani ishinzwe gukora ubwishingizi bw'ibinyabiziga kandi mu mafaranga atari menshi.

Ivuze na radiyantI hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe n'abagize umuryango icyizere cy'ejo hazaza ibyishimo by'umuryango.

Ifomu ikoreshwa kugira ngo winjire muri konti yawe ya banki ya Kigali aho winjiza izina ryawe n'umubare wawe w'ibanga.

Imodoka ya yundayi sonata hayiburidi, ya otomatike, igurishwa miliyoni icyenda, iri mu ibara isa neza, yaka amatara inyuma yayo hari izindi modoka.

Icyapa kigaragaza poroduwi z'uruganda rw'Inyange harimo amazi, amaji, amayahurute, hamwe n'ubundi bwoko bwinshi cyane bw'ibyo kunywa.

Abasore bari gusangira bishimye amata, imbere yabo bafite amasahani kandi ariho ibyo gufatisha, bishimiye gusangira bose.

Abantu babiri umwe yaje kuvunjisha amadorari magana ane, inote zijana ijana, undi nawe yiteguye kumwakira ngo amuvunjire, amuhe ubundi bwoko yifuza bw'amafaranga.

Imashini igenewe kubara amafaranga, iri gukoreshwa kubara amadolari mu rwego rwo kumenya neza ko yuzuye umubare ukenewe utarenga.

Urutonde rugaragaza ivunjisha ry'amafaranga bitewe n'ubwoko bw'amafaranga ya buri gihugu hakubiyemo amadolari amayero n'ayo muri South Africa.

Abagore bahagaze mu isoko ry'imboga bari guhaha, umucuruzi uri kuvugira kuri telefone, imbere ye afite kokombure n'indimu hamwe n'insenda

Abantu bari mu isoko bamwe bari gucuruza inyanya n'abandi baje kugura ibintu bitandukanye, muri iryo soko, iryo soko kandi rirasakaye risakaje amabati hamwe n'ibyuma bigiye biri ku ruhande bifashe ayo mabati, harimo abantu bahetse abana n'abandi babagabo.

Umu ajenti wa MTN ahagaze mu nzu ye y'umuhondo yanditseho MTN ategereje abakiriya, bamugana ko abaha serivisi za MTN.

Iduka ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, rikorera kuri murandasi hamwe n'abakozi bakora muri iryo duka, harimo abakira abakiriya n'abasubiza ibibazo abakiriya bafite.

Umu ajenti wa kwiki rwa, ahagaze imbere yubusitani bwinzu irimo iragurishwa, ari gusobanurira abakiriya uburyo iyo nzu ari nziza kugirango bagure.

Inzu igurishwa miliyoni mirongo icyenda z'amafaranga y'u Rwanda, umuntu uri kuyiranga ari gusobanurira abaguzi uko iyo nzu iteye muri make.

Inzu ikodeshwa iherereye ku gisozi ifite ibyumba bitanu na saro, aho kurira, na tuwarete, enye n'igikoni nindi y'umukozi hanze n'ibindi.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye, harimo ibitebo, ibikapu bya kinyarwanda biboshye hamwe n'amakanzu y'abagore n'abakobwa.

Abantu batandukanye bari mu iduka guhaha ibicuruzwa bitandukanye, bagenda babishyira mu magare kugira ngo bitaza kubababa byinshi mu ntoki.

Mu iduka umuguzi avuye kugura ibicuruzwa, ategereje ko umubare w'amafaranga agomba kwishyura, maze ubundi yishyure mubintu aguze harimo amata hamwe n'igihaza.